Aha hari imodoka ndetse iyo modoka ikaba isa nkaho ikiri nshya cyangwa se yakoreshejwe ariko idashaje ndetse kuri plaque yayo hakaba haditseho kigali cars makert uko bigaragara ishobora kuba igurishwa.

Aha hari abantu ndetse uko bigaragara bakaba bari ahantu ku mazi cyangwa se ku nyanja, aho hantu hakaba hakorerwa uburobyi ndetse uko bigaragara abantu bamwe bakaba bari kuroba abandi bari gutunganya amafi ya rubwe.